Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama, buri wese afite imbere ye indangururamajwi hamwe n'agacupa k'amazi, barimo gutanga imirongo ngenderwaho y'igihugu, mu kuzamura iterambere ryo mu cyaro.

Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye mu ntebe z'umukara, ku meza imbere yabo hari indangururamajwi, bakaba bari mu biganiro, bungurana ibitekerezo ku ngingo y'iterambere, mu rwego rwo kuzamura umuturage.

Abayobozi mu nzego za leta, bambaye amabaji bicaye imbere ya mudasobwa, bafite n'ibirahuri birimo amazi bari mu nama biga ku iterambere ry'igihugu n'uburyo ryakihutishwa.

Abayobozi b'Akarere bicaye mu cyumba cy'inama, bafite buri wese indangururamajwi imbere ye n'agacupa k'amazi barimo kwiga ku bibazo by'iterambere n'uburyo bushya bwo kwihutisha iterambere ry'abaturage.

Abayobozi babiri, bicaye imbere y'imbaga, aho harimo umugabo wambaye ikoti ufite impapuro ndetse n'icupa ry'amazi imbere ye, hamwe n'umumama wambaye ikanzu, ufite ajenda arimo kwandika imyanzuro iri kuva mu nama.

Abayobozi bateraniye mu nama, bicaye ku ntebe bazengurutse barebana, barimo kwiga ku ngingo z'iterambere n'uburyo bakorohereza serivise zihabwa abaturage mu rwego rwo kwihutisha iterambere.

Abaturage ndetse n'abayobozi babo bahuriye mu kibuga mu rusisiro imbere y'idarapo barimo kwakira amatungo y'ihene bahawe na leta y'u Rwanda mu rwego rwo guteza imbere abaturage bo mucyaro.

Umuyobozi uhagaze iruhande rwa porojegiteri ndetse afite indangururamajwi arimo kugeza ku baturage ndetse n'abo bafatanya kuyobora, imwe mu myanzuro yafashwe na komite mu guteza imbere umuturage no kwihutisha ibikorwa by'iterambere.

Abayobozi bambaye amakoti n'abambaye made ini Rwanda ndetse n'abandi badamu bambaye amakanzu bicaye mu cyumba cy'inama, aho bafite ibitabo imbere yabo ndetse n'ibirahuri by'amazi, mu gihe barimo mu nama yo kwiga ku iterambere ry'igihugu.

Abayobozi bo mu nzego za leta baturutse mu turere tugize u Rwanda bicaye mu cyumba cy'inama, aho imbere yabo bafite uducupa tw'amazi ndetse n'utwa ji, aho barimo kwiga ku ngingo y'iterambere ry'igihugu.

Abagabo bambaye amakoti ya kositime ndetse n'abambaye amashati hamwe n'abamama bicaye mu cyumba cy'inama, bafite mudasobwa imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, barimo kuganira ku ngingo zi'iterambere.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, bahuriye mu cyumba cy'inama bicaye baganira ku ngingo z'iterambere, aho buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye hamwe n'igikoresho cy'ikoranabuhanga hamwe n'ikaramu mu ntoki, mu rwego rwo gutanga neza ibitekerezo bya buri umwe.

Abayobozi baturutse mu turere dutandukanye tugize igihugu cy'u Rwanda, bahuriye mu cyumba cy'inama, aho bicaye buri wese afite ikayi arimo kwandikamo ibirimo kwigirwa mu nama ndetse n'imyanzuro irimo gufatwa. Buri wese kandi ku meza ye hakaba hari agacupa k'amazi.

Abayobozi bo mu nzego za leta barimo abagore ndetse n'abagabo, bahuriye mu cyumba k'inama, buri wese mbere hari indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi, barimo kungurana ibitekerezo ku ngingo y'iterambere, mu rwego rwo kwihutisha iterambere no gushyira umuturage ku isonga.

Abayobozi ba leta harimo abagabo bambaye amakoti ndetse na karuvati n'abamama bakora mu nzego za leta, bahuriye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, barimo kwiga ku ngingo y'iterambere ry'igihugu.

Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri uhagaze imbere y'abanyeshuri, yambaye ikoti ry'umukara, afite indangururamajwi, arimo kubagezaho ikiganiro mu rwego rwo kubafasha mu myigire yabo no kurushaho kubafasha kumenya byinshi ku myororokere.

Abaturage bateraniye hamwe barimo abadamu, urubyiruko, abasore, inkumi ndetse n'abana bahuriye muri gahunda za leta mu kubahugura, mu kunoza isuku ndetse no mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza.

Abaturage bicaye mu ntebe z'umweru mu ihema ry'umweru ritatswe n'amabara y'umweru ndetse n'ibara ry'igitaka, bicaye barimo kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama harimo abagore babiri ndetse n'umugabo wambaye ikoti rya kositime n'ishati y'amaboko maremare, bicaye imbere ya mudasobwa bafite indangururamajwi zibafasha gutanga igitekerezo cyabo ndetse imbere yabo hakaba hari n'uducupa tw'amazi.

Umuyobozi wicaye mu biro, wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu, yicaye imbere ya mudasobwa, imbere ye hari ikayi ndetse n'icupa ry'amazi, aho afite indangururamajwi ari mu kiganiro, arimo kungurana ibitekerezo n'abo bafatanyije kuyobora.

Abayobozi mu nzego za leta bicaye, harimo umugabo umwe wambaye rinete ufite indangururamajwi mu kiganza, afite ikaye imbere ye arimo gusomera abitabiriye inama imyanzuro imwe n'imwe yafashwe, imbere ye hateretse uducupa tw'amazi.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage, aho hari abandi bayobozi bicaye mu ihema ritatswe n'ibitambaro, bifite amabara agize idarapo ry'u Rwanda, aho umuyobozi wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara, irimo uturongo tw'umweru, afashe indangururamajwi, arimo kugeza ikiganiro ku baturage ndetse n'abandi bayobozi.

Abaturage bagizwe n'abapapa, urubyiruko rw'abasore n'inkumi ndetse abamama bahuriye mu cyumba cy'inama, buri wese akaba afite imbere agacupa k'amazi aho bakuriye ikiganiro kiri gutangwa n'umuyobozi.

Abantu bahuriye mu cyumba cy'inama, barimo abafite uruhu rwera, abagabo bambaye amakoti ya kositimu n'amashati y'umweru n'amakaruvati, buri wese afite imbere y'icupa ry'amazi, aho bari kwiga ku kibazo cy'iterambere ry'igihugu n'uburyo bakihutisha imishinga imwe n'imwe y'iterambere.

Abayobozi b'umujyi wa Kigali bicaye ku meza, bafite uducupa tw'amazi ku meza, barimo kwerekana igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali kijyanye n'icyerekezo cya makumyabiri mirongo itanu.

Mu cyumba cy'inama cyahuriwemo n'abantu batandukanye harimo abagabo bambaye amakoti ndetse n'abambaye amashati asanzwe hamwe n'abategarugori, aho harimo umukobwa wambaye ikanzu irimo umweru n'umukara, afashe bike mu ntoki, arimo kwandika ibitekerezo birimo gutangirwa mu nama, imbere hakaba hateretse icupa ry'amazi.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, bicaye mu cyumba cy'inama cy'ibitaro, aho barimo gufatira hamwe imyanzuro ku bibazo byagiye biboneka mu bitaro, mu rwego rwo kurushaho gutanga serivisi z'ubuvuzi nziza.

Abayobozi bambaye amakoti ndetse n'imikenyero bafashe ku madarapo bari mu cyumba cy'inama, imbere y'imbaga y'abantu barimo kurahira inshingano bahawe mu nzego z'ubuyobozi z'igihugu.

Abayobozi batandukanye bakora mu kigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA, bicaye mu cyumba cy'inama bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'uducupa tw'amazi, barimo gukurikirana ingingo z'ingenzi barimo kuganiramo z'uburyo banoza serivise zitangwa n'iki kigo.

Umukobwa wambaye ipantaro ndetse n'ikoti ry'icyatsi, ari imbere y'abagabo batatu ndetse n'umugore w'uruhu rwera arimo kubasobanurira kuri poroje yari yakozeho yafasha iterambere ry'igihugu.

Abaturage bateraniye hamwe, bicaye bakikije umuyobozi urimo kubabwira gahunda za leta z'iterambere mu rwego rwo kubashishikariza kugira uruhare mu iterambere ribagirirwa, mu rwego rwo kwihutisha iterambere ry'igihugu.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere Rwanda developumenti bodi, aho kinyuza amatangazo atandukanye no gufasha abaturarwanda gusobanukirwa na serivisi zitangwa n'iki kigo.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, kikaba cyifashisha uru rubuga mu rwego rwo gutanga serivisi z'imisoro no kumenyekanisha imisoro itandukanye.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere Rwanda Development Board mu rwego rwo kumenyekanisha ibikorwa by'iki kigo ndetse no gutanga serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefoni ndetse na mudasobwa.

Umugabo wambaye ingofero uri mu nzu wicaye imbere ya mudasobwa, akaba atanga serivise z'Irembo, harimo nko gushakira abantu ibyemezo by'amavuko, ibyemezo by'uko basezeranye, n'izindi serivise zo kwishyura imisoro, ndetse n'izindi serivise zitangwa n'Irembo.

Urubyiruko rufashe amatelefone mu ntoki, ruhagaze ahantu hegereye agahanda k'abanyamaguru gakikijwe n'amatara akamurikira mu gihe cya nijoro, urubyiruko rukaba ruri gukoresha enterinete.

Umunara wa sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ufashweho n'insinga nyinshi ndetse n'amaateni atandukanye. Awufasha gukwirakwiza iterineti ndetse n'itumanaho ku baturage mu buryo bwiza.

Inama yashyiriweho urubyiruko, yabereye muri intare konferense Arena, iherereye mu mujyi wa Kigali inama ikaba yarabaye ku itariki ya cumi na gatanu kugeza ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri n'agatatu, ikaba yari irimo guhugura urubyiruko, mu gutegura imyuga z'inzozi zarwo.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda Reveni Otoriti, kikaba gikoresha uru rubuga mu gufasha abishyura imisoro kubona serivise biboroheye, aho kibashishikariza kwishyura imisoro bakoresheje ikoranabuhanga rya mobayilo mani cyangwa se amabanki bakoresheje telefone zabo.

Urubyiruko rwicaye imbere ya mudasobwa rurimo kuhugura ku ikoranabuhanga ndetse no kuri murandasi bareba byinshi wahakura utiriwe uva mu rugo.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB aho cyari kirimo kwamamaza gahunda ya viziti Rwanda mu rwego rwo kongera abakerarugendo ndetse kinabereka ahantu washora imari mu Rwanda mu rwego rwo kwihutisha iterambere ry'igihugu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'abanyeshuri, amashati y'imyeru, bicaye imbere ya mudasobwa, barimo kwigishwa iby'ikoranabuhanga ndetse n'uko mudasobwa zikoreshwa mu bintu bitandukanye.

Iminara yubatswe mu byuma, isize amabara y'umweru n'umutuku, ifite n'amashami atandukanye ndetse n'insinga ziyifasheho, ikaba ari iya sosiyete zitanga serivise z'itumanaho.

Urubuga rwo kuri murandasI rw'ikibuga rw'Irembo rutangirwaho serivisi zitandukanye, aho rurimo kwamamaza serivisi zo kongeresha uruhushya rw'agateganyo, aho bavuga ko ikiguzi ari ibihumbi bitanu.

Umunara ufite antene hejuru, ukaba ufashweho n'insinga, uyu munara ukaba wa sosiyete itanga serivisi zitumanaho, ukaba ufasha abaturarwanda kubona interineti yihuse.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, aho kinyuze muri minisiteri afu herifu, gitanga serivisi zitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse no gutanga amatangazo atandukanye arebana n'ubuzima.

Umukozi w'irembo uri imbere ya mudasobwa ndetse n'imbere y'abaturage arimo kubereka serivisi nyinshi zitangwa n'irembo mu rwego rwo kubashishikariza kubona serivisi mu buryo butabahenze kandi bwihuse bakoresheje urubuga rw'irembo.

Ikirango cyo ku rubuga rwo kuri murandasi cya vijoni tuwenti fifuti cyo kigaragaza icyerekezo makumyabiri mirongo itanu, aho kiba kigaragaza u Rwanda twifuza mu rwego rwo gushishikariza abaturarwanda gukora cyane mu rwego rwo kwihutisha iterambere.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA, kikaba cyifashisha uru rubuga mu gutanga amakuru kuri serivisi gitanga ndetse no gufasha abaturarwanda kubona serivise zitandukanye, n'amabwiriza kuri serivise.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro Rwanda reveni otoriti, mu rwego rwo gufasha abasora kumenya imisoro yabo ndetse n'uburyo bwiza bworoshye bwo kwishyura hakoreshejwe telefoni zigendanwa.

Urubuga rwo kuri murandasi rukoreshwa muri telefoni zigendanwa ndetse n'imashini za mudasobwa, ikaba ari urubuga rwashyizweho n'Irembo muri gahunda ya Byikorere, mu gufasha abaturarwanda kubona serivisi zitandukanye.

Urubuga rwa murandasi rukoresha apulikasiyo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro rwandareveni otoriti, aho cyashyizeho ubu uburyo mu rwego rwo korohereza abaturarwanda mu kubona serivisi byihuse zijyanye n'imisoro n'amahoro.

Apurikasiyo yo muri telefoni ngenderwa ndetse no muri mudasobwa, y'urubuga rw' irembo rukoresha rwamamaza ibikorwa byayo ndetse na serivise zayo zitandukanye, aho barimo gushishikariza Abaturarwanda gahunda ya byikorere, mu rwego rwo kubona serivise mu buryo bwihuse butagoye.

Urubuga rwo kuri murandasi, rw'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro, Rwanda reveni otoriti, aho gikoresha uru rubuga mu kumenyekanisha ndetse no gusobanura imisoro igiye itandukanye, aho barimo gusobanura rental income tax.

Urubuga rw'irembo rwashyizweho na leta y'u Rwanda mu rwego rwo gutanga serivisi zikenerwa n'abaturage b'u Rwanda hakoreshejwe ikoranabuhanga mu kwihutisha iterambere no kwihutisha izo serivisi, uru rubuga rukaba rushobora kugerwaho na buri muturage akoresheje terefone ye ngendanwa cyangwa se mudasobwa.

Umunara wa sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ya Airtel, ukikijwe n'insinga zitandukanye, ukaba ukozwe mu byuma, ukaba utanga itumanaho ku baturage bawegereye.

Ipoto rikozwe mu cyuma riri mu rusisiro rutuwemo n'abantu ndetse hamwe n'amazu ariho anteni z'ibisahane ndetse n'insinga z'amashanyarazi zinyura muri iyo karitsiye, zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo zihaturiye.

Hope apatimenti ikaba ikorera mu igorofa riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Kacyiru, ikaba itanga serivisi z'amacumbi aho icumbikira abagana umujyi wa Kigali mu gihe gito cyangwa se ikirekire.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'ikigo gishinzwe iterambere RDB, Rwanda developumenti bodi, aho gifasha abayarwanda gutanga ibitekerezo byabo, no kubaza ibibazo bafite mu rwego rwo kubasubiza ndetse no gufatanya mu iterambere.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gifite inshingano, imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA, aho kinyuza serivisi zacyo muguhereza serivisi abaturage harimo aho cyamamaza urubuga abaturage banyuraho bakabona serivisi zo gutwara ibintu n'abantu.

Imodoka iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda ukikijwe n'inzu y'ubucuruzi, hakaba haparitse ikinyabiziga cy'ipikipiki, hakaba hagaragara uruhuri rw'abantu baje guhaha.

Ipoto rikozwe mu cyuma rifashweho n'insinga zitandukanye, rinyura iruhande rwa kaburimbo, iyi kaburimbo ikaba ikikijwe n'uduranda duto tunyurwamo n'abanyamaguru, kandi ikaba ikikijwe n'ibiti byiza n'amatara abimurikira mu gihe cya nijoro.

Ipoto iteye mu busitani bukikije umuhanda wa kaburimbo, ikaba ifashweho n'insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi, mu rwego rwo kwihutisha ikwirakwiza ry'amashanyarazi mu baturarwanda kugira ngo babone serivisi zitandukanye zikenera umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka ya bisi, iparitse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, imbere y'ipoto y'amashanyarazi, ifashweho n'insinga nyinshi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, inyuma yayo hakaba hari, umutaka wa emutiyeni sosiyete itanga serivisi z'itumanaho.

Umuhanda wa kaburimbo uzengurutswe n'ubusitani bwiza ukaba ugaragarwamo n' imodokadoka nyinshi zitwara abantu ndetse n'amagare, uyu muhanda ukaba ufite utuyira duto tunyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hamwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Amapiloni akozwe mu byuma afashweho n'insinga nyinshi zitandukanye zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kwihutisha iterambere mu Rwanda, abaturage babagezaho umuriro w'amashanyarazi mu kubafasha mu bikorwa bya buri munsi by'iterambere.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, uyu muhanda ukaba ugaragaramo ibinyabiziga byinshi harimo moto ndetse n'imodoka, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza cyane, ukaba ufite n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara iririmo umweru ndetse n'agapira k'umukara karimo umweru, akaba ahetse igikapu cy'umukara ari kuvugira kuri terefone yishimye, arimo kugendera mu gahanda k'igitaka gakikijwe n'imirima, imirima iteyemo amapoto afashweho n'insinga zifasha gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ipironi rikozwe mu byuma rifashweho bateri, ndetse rikaba rifashwe n'insinga zitandukanye, aho zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, mu rwego kwegereza umuriro w'amashanyarazi.

Ipironi ry'igiti rifashweho n'insinga nyinshi zitandukanye, riteye mu busitani burimo indabo, imikindo ndetse na pasiparama, rikaba riri iruhande rw'inzu ya etaje, rikaba rifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ku baturage.

Amapoto akozwe mu byuma, ari mu rusisiro rutuwemo n'abantu, akaba afashweho n'insinga nyinshi zitandukanye, zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu rwego rwo kwegereza abaturarwanda umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo hihutishwe iterambere ryabo.

Ipironi rikozwe mu byuma, riteye mu rusisiro, aho rifashwaweho n'insinga nyinshi zitandukanye zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu rwego rwo kwegereza umuriro w'amashanyarazi Abaturarwanda.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe ingufu REG arimo kurira ifoto ry'igiti yambaye imyambaro yabugenewe imurinda, arimo gukora ku nsinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kuzishyiraho neza kugira zikwirakwize umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Amapironi ariho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi hamwe n'amatara, biteye iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, amagare, ndetse n'imodoka n'urujya n'uruza rw'abantu. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inyubako y'igorofa ikorerwamo ubucuruzi.

Amapoto akozwe mu byuma, afashwe n'insinga z'amashanyarazi, zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu rwego rwo kwegereza abaturarwanda amashanyarazi ndetse no kuyakwirakwiza mu gihugu hose.

Icyapa cy'umuhanda cyanditseho KG magana atandatu mirongo itanu na karinndwi esiti, kikaba giherereye ku muhanda wa kaburimbo iruhande rw'amazu y'ubucuruzi mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali.

Umunara wa sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ya Airtel, akaba ari umunara uherereye mu rusisiro rutuwemo n'abaturage, uyu munara ukaba ubafasha kubona itumanaho ryihuse kandi rinogeye buri umwe wese.

Icyapa cyo ku muhanda KH magana atatu mirongo irindwi na kabiri ST, kikaba kiri ku muhanda w'igitaka ukikijwe n'amapoto afashwe n'insinga z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo zituye hafi y'uwo muhanda muri urwowo rusisiro.

Amagare aparitse kuri kaburimbo ategereje abagenzi ndetse n'imodoka ya bisi nini ya ritiko irimo kunyura iruhande rwayo mu muhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'amatara abamurikira gihe cya nijoro.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye ndetse zisakajwe amabati y'umutuku, zifite ikigega cy'amazi ku ruhande rwaho ndetse n'ubusitani bwiza butewemo ibiti ndetse na pasiparume n'indabo zitandukanye.

Parikingi iri imbere y'inyubako ya etaje, iyi parikingi ikaba igaragarwamo n'imodoka nziza y'umukara, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo, ibiti ndetse na pasiparama bibereye ijisho.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro bya CHUK, akaba ari ibitaro bya kaminuza byigisha, aho batanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, no gusuzuma ndetse no gutanga imiti hamwe n'ubujyanama ku by'ubuzima.

Parikingi y'ibitaro iparitswemo n'imodoka eshatu, hakaba hari umugore waje gusura umurwayi ufite itelemosi ndetse n'igikapu, yicaye imbere y'amarembo y'ibi bitaro, aho bitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nko gutanga imiti, gusuzuma ndetse n'ibindi.

Ibitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi, aho ari icyapa cya materineti, aho abadamu babyarira, imwe muri serivisi itangirwa kwa muganga, aho bafasha abagore mu kubyara.

Abayobozi batandukanye bari kumwe n'umuyobozi w'ibitaro arimo kubereka uko ibitaro bimeze barimo gusura inyubako iririmo icyumba cy'ababyeyi ahazwi nka materineti hatangirwa serivisi zo kubyaza abadamu, aho bari bageze kuri parikingi iruhande rw'imbangukiragutabara.

Parikingi yo ku bitaro iparitswemo n'imbangukiragutabara zizwi nka ambilance ndetse n'imodoka, ibi bitaro bikaba bitanga serivise z'ubuvuzi zitandukanye, nko kuvura, gusuzuma ndetse no gutanga imiti n'ubujyanama.

Abaturage babyukiye ku bitaro byo kwa muganga baje gushaka serivisi z'ubuvuzi mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, ibi bitaro bikaba bitanga serivisi z'ubuzima zitandukanye nko kuvura, gusuzuma ndetse no gutanga imiti.

Abaturage barimo abadamu, abana ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe zo kwa muganga, bategereje abaganga kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi ndetse no gusuzumwa, hamwe no gufata imiti n'izindi serivisi z'ubuzima.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku, akaba ahagaze, uyu mumama akaba asutse ndetse akaba yirabura.

Icyapa kiriho foto ya Fulgence Kayishema, kigaragaza ko yafashwe ku itariki makumyabiri na kane z'ukwezi kwa gatanu, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, ubwo yari agiye kuburanishwa ibyaha ashinjwa.

Abagororwa bambaye impuzankano y'ubugororwa ndetse n'udupfukamunwa, bafite amakaye n'ibitabo ku maguru yabo, bicaye imbere y'abacamanza, bari mu rubanza, barimo kuburana ku byaha bashinjwa.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye ikote ryiza ry'ubururu n'ishati y'umweru arimo guhana ikiganza n'umudamu wambaye ikanzu y'umutuku, yambara iyo ari mu kazi ke k'ubucamanza.

Umupolisi ufite uruhu rwera wambaye impuzankano ya gipolisi ndetse n'amarinete. Afashe umugabo wambaye ipingu, yambaye ikoti ndetse na karuvati arimo kumujyana mu rukiko rucibwamo imanza.

Inkiko Gacaca, zimwe muri gahunda yashyizweho mu rwego rwo kurangiza imanza z'abakoze Jenoside mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane, aho bari barimo kuburanisha abagabo bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi.

Abagororwa bambaye impuzankano y'abagororwa ndetse n'amapingu, bakaba bambaye udupfukamunwa barimo gusohoka mu modoka ibatwara batonda umurongo, bakikijwe n'abasirikare babacungira umutekano.

Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro, irimo guhugura abanyeshuri uburyo wakoresha kizimyamwoto ndetse n'uburyo wakoresha uzimya inkongi mu gihe ibaye ahantu.

Igikoresho kigaragara mu nyubako nyinshi zitandukanye mu Rwanda ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, kikaba gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu rwego rwo gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe aho hantu haba hahuye n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro.

Icyapa cya Rwanda nashono polisi, Nyarugenge District, kigaragaza icyicaro cya polisi y'u Rwanda mu Karere ka Nyarugenge aho gikorera i Rwezamenyo.

Igikoresho kizwi nka kizimyamomwoto kigaragara ku nyubako zitandukanye ndetse n'ahaburira abantu benshi, kikaba kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro yabifasha aho hantu mu rwego rw'ubutabazi bw'ibanze mu kurinda ko hatikirira ubuzima bw'abantu cyangwa se kwangirika kw'ibihari.

Polisi y'u Rwanda ishinzwe kugabanya inkongi y'umuriro irimo guhugura abaganga batandukanye, mu rwego rwo kubafasha kumenya neza uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe haba havuye inkongi y'umuriro.

Igikoresho kigaragara mu nyubako nyinshi zitandukanye ndetse n'ahandi hantu hahurirwa n'abantu benshi, akaba ari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkingi y'umuriro mu rwego rwo gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe ahantu hahuwe n'inkongi y'umuriro mu kwirinda ko hakangirika byinshi ndetse no kurinda ubuzima bw'abantu.

Ibitaro bya polisi biri Kacyiru mu karere ka Kasabo mu mugi wa Kigali, iki cyapa kikaba cyerekana amarembo y'ibitaro mu rwego rwo gufasha abaje kuhivuriza kumenya aho binjirira kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwihuse.

Imodoka ya polisi iparitse imbere y'inyubako iherereye ku Muhima, ikorerwamo na zigama siyesesi, ishami rya Muhima, iyo akaba ari banki yashyiriweho kubitswamo no gutanga inguzanyo ku bakora umwuga w'igipolisi ndetse n'igisirikare.

Igikoresho cya kizimyamwoto kigaragara ku nyubako nyinshi zo mu mujyi wa Kigali, kikaba kigaragara ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi, kikaba cyifashishwa mu gihe habayeho inkongi mu rwego rwo gutanga ubutabazi bw'ibanze mu kurinda ko hatikirira ubuzima bw'abantu ndetse no kurinda ko ibyabo byakangizwa n'inkongi y'umuriro.

Igikoresho kizwi nka kizimyamwoto, kigaragara ku nyubako nyinshi zitandukanye, ndetse n'ahandi hantu hahurirwa abantu benshi, kikaba kifashishwa mu kuzimya umuriro, mu rwego rwo gutanga ubutabazi bw'ibanze, kandi bwihuse, mu gihe ahantu hafashwe n'ikongi y'umuriro.

Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, yambaye impuzankano yabugenewe mu kuzimya umuriro. Irimo kuzimya inkongi y'umuriro aho yari yibasiye mu rwego rw'ubutabazi bw'ibanze.

Igikoresho kizwi nka kizimyamowoto kigaragara ku nyubako zitandukanye ndetse n'ahandi hahurirwa abantu benshi, kikaba kifashishwa mu butabazi bw'ibanze, igihe aho hantu haba hahuye n'inkongi y'umuriro, mu rwego rwo gutanga ubutabazi bwihuse.

Polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro, yasuye ikigo cy'abanyeshuri, irimo kugitoza, icyereka ndetse inagihugura mu buryo bwo gukoresha ibyuma bizwi nka kizimyamwoto mu gihe haba habaye inkongi y'umuriro mu rwego rwo kwirinda ko yakangiriza byinshi.

Inyubako ikorerwamo na polisi y'igihugu, ishami rya Nyarugenge, rishinzwe Akarere ka Nyarugenge, ikaba hari ifite parikingi iparitswemo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'ibinyabiziga bya polisi.

Igikoresho kizwi nka kizimyamwoto kizimya umuriro kigaragara ku nyubako nyinshi zitandukanye ndetse n'ahahurira abantu benshi, kikaba gikoreshwa mu rwego rw'ubutabazi bwihuse mu kuzimya umuriro mu gihe aho ahantu haba hahuye n'inkongi y'umuriro.

Umumama urimo kugenda iruhande rw'ibitaro mu gahanda kazengurutse ibitaro, ibitaro akaba ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo kuvura, gusuzuma ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuzima.

Umutegarugori wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, akaba yambaye amarinete hamwe n'amaherena, yicaye ku ntebe y'umukara bigaragara ko ari mu biro arimo gutanga ikiganiro.

Madamu Jeannete KAGAME, yicaye mu ntebe z'umukara iruhande rwe hicaye umugabo wambaye ikositimu na karuvati y'ubururu, hamwe n'ishati y'umweru bari mu biganiro n'abanyamakuru.

Abanyamuryango b'ishyaka rya fpr inkotanyi, aho bari baje gushyigikira umukandida wabonye nyakubahwa Paul Kagame, mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu umwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho bari bambaye ibirango by'iri shyaka bafite n'amabendera yaryo.

Umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, Mpawimana Philippe ubwo yari ari mu gikorwa cyo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, aho yari ashagawe n'imbaga y'abaje kumva imigabo n'imigambi ye.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo yari ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'Igihugu yabaye mu bihumbibiri na makumyabiri na kane, ubwo yari ahagaze mu ihema ririmo ibirango by'ishyaka rya FPR Inkotanyi, afashe indangururamajwi mu ntoki arimo kugeza imigabo n'imigambi ku bari baje kumva imigabo n'imigambi ye.

Abakarani b'itora bambaye udupira tw'umweru ndetse n'ingofero z'umweru ziriho ikirango cya komisiyo y'igihugu y'amatora, ubwo bari bari mu gikorwa cyo kubarura amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umuyobozi wambaye ikoti n'ishati afite ikaramu mu kiganza, inyuma ye hari ibendera ryigihugu, bigaragara ko arimo gusobanura ingingo zitandukanye z'iterambere mu karere ayoboye.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yari arimo kurahirira manda ye yo kuyobora Igihugu cy'u Rwanda afashe ku idarapo, amanitse ikiganza. Iburyo bwe hahagaze umufasha we Madamu Jeannette Kagame.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara wambaye amarinete ndetse n'urunigi mu ijosi, akaba yambaye ikanzu ndetse n'agapira k'umweru, akaba yicaye mu ntebe y'umweru y'amafuteyi yo kwegamiramo.

Umukandida wigenga Philipe MPAYIMANA, ubwo yari yagiye kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu, yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo iki gikorwa cyari kitabiriwe n'abaturage batandukanye, bari bafashye mu ntoki ibirango byamamaza uyu mukandida.

Moto yo mu bwoko bwa rifani itwara ibicuruzwa bitandukanye, irimo kubisikana n'imodoka itwaye abagenzi, mu muhanda wa kigali ugendwamo mu byerekezo byombi, ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka ya bisi nini itwara abantu mu buryo bwa rusange, iri mu muhanda wa kaburimbo ugendererwamo mu byerekezo byombi, uyu muhanda ukaba uzengurutswe n'utuyira duto tw'abanyamaguru ndetse n'ibiti, ukaba ufite n'amatara uwumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali unyurwamo n'ibinyabiziga harimo nk'ibikamyo bitwara ibikoresho by'ubwubatsi, amagare ahetse abantu ndetse moto ndetse n'izindi modoka, aho uyu muhanda ikikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza.

Imodoka zo mu bwoko bwa kwasiteri ziparitse muri gare ya Nyabugogo mu gihe cya nijoro, aho amatara arimo kwaka, iyi gare ikaba igaragarwamo n'urujya n'uruza rw'abantu baje gutega imodoka ndetse n'abari kuva mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu Mujyi wa Kigali ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, nka moto ndetse n'imodoka, umuhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba ukikijwe n'inzu z'ubucuruzi, ukaba ufite parikingi ku ruhande iparitswemo n'imodoka zitwara abantu, ukaba uri kugendwamo na kwasiteri y'umweru, uyu muhanda kandi ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru, hamwe n'amapoto ariho insinga ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu ihetse ibicuruzwa bitandukanye, bitwikijwe n'ihema bizirikishijwe n'imigozi y'umukara, hejuru hicaye umugabo urimo kugenda abicungira umutekano.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu Mujyi wa Kigali, ukaba unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba ugaragarwamo n'imodoka ndetse n'amagare apakiye ibirayi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza, ukaba ufite n'amatara awumurikira mu gihe cya nimugoroba.

Imodoka nini yafuso yo mu bwoko bwa huho, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, uyu umuhanda ukaba ugendwamo mu byerekezo byombi, ukaba ugaragarwamo n'ibindi binyabiziga nka moto, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tugenderwamo n'abanyamaguru, hamwe n'ubusitani bwiza ukaba afite n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo amafoto atwara ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'izindi modoka, moto ndetse n'amagare, iruhande rwayo hakaba hari parikingi iparikwamo n'ibimodoka bikururana ndetse n'izindi modoka zitandukanye, uyu umuhanda ukaba ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota yikoreye imizigo, iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma y'aho hari izindi modoka zitwara abagenzi ndetse n'ibinyabiziga nka moto, uyu muhanda wa karimbo ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'imodoka z'amafuso ndetse n'izitwara abantu ku giti cyabo, hamwe na moto akaba ari umuhanda ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru, uyu muhanda ukaba ukikijwe ndetse n'ibiti ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Ikinyabiziga cya moto, kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu mugi wa Kigali, uyu muhanda ukabawugendedwaho mu byerekezo byombi, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani butatswe n'indabo na pasiparama, umuhanda kandi ukaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abatwaye ibinyabiziga nka moto, imodoka ndetse n'amagare, kibafasha kumenya ahari ahanyaho hemerewe guparikwa, kikaba gitewe mu kayira gato k'abanyamaguru gakikije umuhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi.

Moto yo mu bwoko bwa rifani ikoreshwa mu gutwara imizigo itandukanye, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza, ikaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka ya bisi nini ya litico itwara abantu mu buryo bwa rusange, iri mu muhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali ugenderwamo mu byerekezo byombi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tugaragarwamo n'abanyamaguru, ukaba ukikijwe kandi n'ubusitani bwiza hamwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Urujya n'uruza rw'abantu ruri muri gare ya Nyabugogo ndetse n'imodoka ziparitse muri gare ya Nyabugogo mu gihe cya nijoro, aho amatara aba yaka amurikira iyo gare mu rwego rwo gufasha abayigendamo mu gihe cya nijoro n'abakora ingendo mu gihe cya nijoro.

Moto za rifani zikoreshwa mu kwikorera ibicuruzwa bitandukanye, ziparitse aho zagenewe guparika muri gare iruhande rwa kaburimbo ikikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Rubangura, hakaba hari parikingi iparikwamo n'abatwara moto bakora umwuga wo gutwara abagenzi ku mapikipiki, aho baparika bategereje abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi, urimo moto zitwaye abagenzi ndetse n'imodoka. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru, ukaba ukikijwe n'amatara awumurikira ndetse n'ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo unyura mu byerekezo byombi aho ikamyo yo mu bwoko bwa fuso ndende, irimo kubisikana n'indi kamyo isakaye itwara ibicuruzwa bitandukanye. Mu muhanda kandi hakaba hakikijijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'amatara abamurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi ukaba unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo nk'ibimodoka binini bitwara ibikoresho by'ubwubatsi n'izindi modoka moto ndetse n'amagare, uyu muhanda uka ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru kandi ukaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Bisi nini ya ritico itwara abantu mu buryo bwa rusange, ubwo yari irimo kugenda mu mujyi wa Kigali, igeze mu isangano ry'umuhanda uriho icyapa kigizwe n'ubwuso bw'ubururu, gishushanyishijwemo ibara ry'umweru, kigaragaza icyerekezo gitegetswe, ikaba yari igeze mu isangano ry'umuhanda mu gihe cya n'ijoro amatara yaka.

Abakora umwuga wo gutwara abantu ku magare, baparitse amagare yabo bategereje abagenzi, bakaba bayaparitse ku muhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, ufite ku ruhande utuyira duto twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uhandada duto tw'abanyamaguru ndetse ukaba ufite n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi, ukaba ufite n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, ugaragarwamo n'ibimodoka binini byikorera ibintu byinshi ndetse n'ibitwara peteroli, uyu muhanda ukaba unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru, akaba afite n'amatara amurikira mu gihe cya nijoro.

Ibinyabiziga biparitse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, umuhanda ugaragarwamo ibindi binyabiziga nka moto, ukaba ugendwamo mu byerekezo byombi, ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani hamwe n'uduhanda tunyurwamo n'abanyamaguru, ukaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka za bisi nini zitwara abantu muri rusange ziparitse muri gare ya nyabugogo mu gihe cya nijoro amatara yaka, ikaba irimo igaragarwamo n'urujya n'uruza rw'abantu harimo abatwara imizigo bambaye impuzangano yabo ndetse n'abandi baturutse impande zitandukanye baje gutega imodoka bajya mu byerekezo bitandukanye.

Moto ya rifani, ikoreshwa mu bwikorezi bw'ibicuruzwa bitandukanye, irimo kugenda mu muhanda wa kigali, iruhande rwayo hari parikingi iparitswemo amabisi ya kwasiteri ndetse ahagazweho n'abagabo babiri bayatwara.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa dayihatsu irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo uri mu mujyi wa Kigali, iri kugenda inyuma ry'igare. Uyu muhanda wa kaburimbo ukaba unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka za kwasiteri ziparitse muri gare zitegereje abagenzi zitwara, zikaba ziparitse muri gare ya Nyabugogo aho zisanzwe ziparika. Hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu baje gutega bagiye mu ntara zigize u Rwanda.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi uherereye mu mujyi wa Kigali ugaragarwaho n'ibinyabiziga bitandukanye ni imodoka zitwara ibikoresho by'ubwubatsi moto, amagare uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'amatara amurikira uwo muhanda mu gihe cya nijoro.

Bisi nini yo mu bwoko bwa yotongo itwara abantu mu buryo bwa rusange mu mujyi wa kigali iparitse muri gare iherereye mu mujyi wa kigali downtown mu karere ka nyarugenge iyi gare ikaba irimo utuzu twicarwaho nabagenzi mu gihe bategereje bisi ndetse ikaba ikikijwe n'inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso, irimo kubisikana n'indi modoka y'umweru. Mu muhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza, ukaba ufite n'amatara abumurikira mu gihe cya n'imugoroba.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mujyi wa Kigali ukaba ugaragarwamo n'imodoka zitandukanye harimo na fuso n'izindi modoka zitwara abantu, uyu muhanda ukaba unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tugaragarwamo n'urujya n'uruza rw'abantu, hamwe n'amatara awumurikira mu gihe cya n'ijoro.

Umusore wicaye hamwe n'umukobwa w'umuzungu, bicaye imbere ya mudasobwa, barimo kuganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga banahugurana, aho hari n'abandi benshi bicaye imbere ya mudasobwa bari gukoresha interinete.

Urujya n'uruza rw'abantu rugaragara ahazwi nka kafurizone i Kigali mu mujyi wa Kigali, mu Karere ka Nyarugenge. Hakaba hari utuzu twicarwamo n'abantu baje kuruhuka ndetse n'abaje kuhatemberera.

Parikingi iparitswemo amapikipiki imodoka, ikaba ari parikingi iri ku kibuga gikinirwaho imikino y'intoki nka basikete ndetse na vore boro, aho hagaragaramo intebe ndende zicarwaho n'abasifuzi bayoboye umukino.

Icyapa kigaragara ku mihanda ya kaburimbo, kigizwe n'ubuso bw'umuhondo ndetse bushushanyijwemo imirongo y'umukara, kikaba kiburira abatwa ibinyabiziga nka moto, amagare ndetse n'imodoka, ko umuhanda bagezemo ufunganye.

Icyapa cyo ku muhanda, gifite ishusho ya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, gishushanyishijwemo ibara ry'umukara, kikaba gifasha kumenyesha abatwara ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, ko isangano bagezemo rinyurwamo rizengurutswe.

Icyapa cyanditseho ka, ga gatanu ave ijana na mirongo inani na gatanu kiri ku gipangu cy'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, kikaba kigaragaza nimero y'igipangu.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragara ku mihanda ya kaburimbo mu mugi wa kigali, kikaba gifasha abatwara ibinyabiziga nka moto, imodoka ndetse n'amagare, kumenya aho bagomba kugenda bitonze mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ahantu hari ikoni, kikaba gifasha abatwara ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, kubaburira mu rwego rwo kubafasha kugenda neza mu muhanda birinda impanuka.

Icyapa kigaragaza nimero y'umuhanda wa kaburimbo wo mu Wujyi wa Kigali, mu Karere ka Kasabo, akaba ari icyapa cyanditsweho KG 189 st, ukaba ufasha kuyobora abatwaye ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru mu byerekezo bashaka kujyamo.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abatwaye ibinyabiziga nka moto n'imodoka ndetse n'amagare, kibamenyesha ko umuhanda bagezemo imbere yabo, hari umwanya wahariwe kwambukirwamo n'abanyamaguru, bityo bikabafasha kugendera mu muhanda neza birinda impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragara ku mihanda ya kaburimboga yo mu mujyi wa Kigali, iki cyapa kikaba kibwira abatwara ibinyabiziga na moto, amagare ndetse n'imodoka kibamenyesha ahantu ha nyaho hemerewe guhagarara akanya gato cyangwa kanini mu rwego rwo gushyiramo no gukuramo abagenzi.

Icyapa cyo ku muhanda kigizwe n'uruzenguruko rw'umutuku n'ubuso bw'umweru kikaba cyandikishijwemo n'ibara ry'umukara umubare mirongo itatu, kikaba kigaragaza umuvuduko ntarengwa w'ibirometero mirongo itatu ku isaha mu rwego rwo gufasha abatwara ibinyabiziga kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu buryo bunoze birinda impanuka.

Icyapa kigaragara ku mihanda ya kaburimbo, kikaba kimenyesha abatwaye ibinyabiziga ko umuhanda bagezemo urimo gukorwa, bityo bikabafasha kumenya ko bagenda bagomba kugenda bitonze mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragara ku mihanda ya kaburimbo, kiyobora abatwaye ibinyabiziga bitandukanye nka moto, amagare, ndetse n'imodoka, kikaba kibabwira ko isangano bagezemo rinyurwamo rizengurutswe.

Ihuriro ry'imihanda rizengurutse ubusitani butewemo ibyapa bitandukanye, harimo icya volukano nashino paka Kinigi, Uganda boda, Virunga loji n'icyapa cya Banki Popireli y'u Rwanda.

Icyapa cyo ku muhanda kigizwe n'umuzenguruko wa mpande eshatu uri mu ibara ry'umutuku n'ubuso bw'umuhondo, ushushanyishijwemo ibara ry'umukara kikaba gifasha kubwira abatwaye ibinyabiziga ko umuhanda bagezemo urimo gusanwa mu rwego rwo kubafasha kugenda neza hirindwa impanuka.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo riherereye mu mujyi wa kigali mu Karere ka Nyarugenge, rikaba rifite ibimenyetso biyobora by'amatara bizwi nka feruje, uyu muhanda kandi ukaba ugaragarwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, nk'imodoka za bisi, imodoka zitwara abagenzi, ndetse na moto.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ubuso bw'umuhondo, kikaba kirimo icyapa cya mpandeshatu gicuritse cy'ibara ry'umutuku ndetse n'ikiranga cyerekezo cy'umukara, kikaba kiburira abatwara ibinyabiziga kugenda mu muhanda bitonze.

Icyapa kigaragara ku mihanda ya kaburimbo kikaba gifasha abatwaye ibinyabiziga nka moto imodoka ndetse n'amagare, kumenya aho bagomba kunyura bitonze kuko hashobora kuba habateza impanuka mu rwego rwo kugenda neza mu muhanda.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abatwara ibinyabiziga kizigizwe n'ibara ritukura riri muri mpande eshatu n'ubuso bw'umweru n'icyapa gicoreshejwe ibara ry'umukara, kikaba kibwira abatwaye ibinyabiziga ko ahantu bageze hari ikoni.

Icyapa kigaragara ku muhanda wa kaburimbo, kigizwe n'uruziga rw'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, kikaba kigaragaza umuvuduko ntarengwa w'ibirometero makumyabiri ku isaha, kikaba gifasha abayobozi gutwara ibinyabiziga kugendera mu muhanda neza birinda impanuka

Icyapa cyo ku muhanda, kiyobora abatwa ibinyabiziga nka moto, imodoka ndetse n'amagare, kibaburira ko ahantu bageze hadahagararwa, haba umwanya muto cyangwa munini, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abatwaye ibinyabiziga nka moto, imodoka ndetse n'amagare, kikaba kiburira aba bashoferi ko umuhanda bagezemo imbere yaho urimo gukorwa mu rwego rwo kubarinda guhura n'impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragara ku mihanda ya kaburimbo, gifasha abatwara abantu ku magare kubamenyesha ko umuhanda bagezemo batemerewe kuwunyuramo unyurwamo n'amapikipiki n'imodoka gusa.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo kiyobora abatwara ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka kibagaragariza ahantu hemewe ho guparika umwanya muto cyangwa munini mu gihe bakuramo abantu uyu muhanda wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaraho mu mihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Kigali, kikaba kigizwe n'uruziga rw'umweru rufite ubuso bw'ubururu n'agakubo kanditswe mu ibara ry'umutuku, kikaba kibwira abatwaye ibinyabiziga ahantu hatemerewe kunyurwa.

Inzu nziza ziri mu gipangu hakaba haparitsemo imodoka y'umweru, iki gipangu kikaba gikikijwe n'ubusitani bwiza, kikaba kiri ku muhanda wa kaburimbo, mu Mujyi wa Kigali.

Icyapa kigaragaza umuhanda Kk 56 ST akaba ari umuhanda uherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro k'icyapa kikaba gifasha abantu mu kumenya amerekezo ndetse n'ahantu bageze.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali, unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba urimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka; uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru, tunyurwamo n'abagenda n'amaguru.

Inyubako y'igorofa yubatse igeretswe, yanditseho Biza, ikorerwamo n'Umurenge wa Kimironko wo mu Karere ka Gasabo, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza, buteyemo indabo ndetse n'ibiti hamwe na pasiparume.

Ubusitani butewemo pasiparama ndetse n'ibiti byiza by'icyatsi, bukaba bufite intebe yicarwamo n'abarimo gutembera, bukaba buri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateyemo n'amatara ahamurikira mu gihe cya ni mugoroba.

Inyubako y'igorofa ikorerwamo na hoteli y'igihozo iherereye mu mujyi wa kigali iruhande rwayo hakaba haparitse ibinyabiziga bitandukanye, n'imodoka z'umweru ndetse n'amagare kandi hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu ruba rurimo gutembera hafi y'iyi hoteri.

Inyubako ya etaje, yubatse igeretse, ikaba ifite agaseke hejuru, ikaba ikorerwamo n'akarere ka Gasabo, gaherereye mu mujyi wa Kigali.

Urusisiro rwagenewe guturwamo, rurimo amazu meza yubatse ageretse akikijwe n'ibiti byiza ndetse n'ubusitani bwiza bubereye amaso, akaba afite umuhanda wa kaburimbo, ufite amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Stade Amahoro ni kimwe mu bikorwa bigari biherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo. Ikaba ikikijwe n'inyubako zitandukanye, zituwemo ndetse n'izikorerwamo serivisi zitandukanye.

Inyubako y'igorofa yubatse igeretswe, ikaba ifite parikingi iparitswemo moto ndetse n'imodoka, hakaba hakorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo foregisi biro itanga serivisi z'ivunjisha.

Inyubako y'igorofa yubatswe mu buryo bugeretswe, ikaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ikaba iri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo ndetse imbere yayo hakaba hari iduka rikorerwamo inzu z'ubucuruzi ndetse na kiyosike ya MTN, hamwe n'icyapa cya forute beti.

Icyapa cyo ku muhanda kk ijana cumi na gatatu esiti, giherereye ku muhanda wa kaburimbo uri mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Kicukiro, kikaba gifasha abantu mu kumenya icyerekezo ndetse no kumenya ahantu bageze.

Urusisiro rurimo inyubako nziza za etaje nyinshi, rukikijwe n'ubusitani bwiza, burimo ibiti, indabo ndetse na pasiparuma, bukaba bufite umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Inzu nziza ifite parikingi iparitswemo imodoka, iyi nzu ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo, ibiti by'umukindo ndetse n'ibindi biti bigira ubusitani bwayo nziza, iyi nzu ikaba iriho Konteri ndetse n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi hamwe n'amatara, ikaba ifite intebe zo kuganiriraho ziteye mu kabaraza.

Inyubako y'igorofa iherereye mu Mujyi wa Kigali, ikorerwamo na sosiyete zitandukanye harimo nka Rapidi sapoti finansingi, itanga inguzanyo ku mishinga itandukanye, ikaba ikorerwamo na banki ya Equity, na MUa insurence company itanga serivisi z'ubwishingizi.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali ukaba unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza buteweho imikindo ku ruhande ndetse bukaba bufite n'amatara abumurikira mu gihe cya nijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo, umuhanda uhuza imihanda ya kaburimbo, ituruka mu byerekezo bitandukanye, iri sangano rikaba ririmo ibirangacyerekezo, biyobora abatwa ibinyabiziga bimurika, bizwi nka feruje, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'uduhanda duto, tunyurwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa Kigali unyurwamo mu byerekezo byombi. Uyu muhanda akaba ari umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto zitwara abagenzi, imodoka ndetse n'amagare, ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo na pasiparuma. Ukaba ufite uduhanda duto twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'amatara awucanira mu gihe cya nijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali, hakaba ugaragarwamo n'imodoka zitandukanye zitwara abagenzi, umuhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse ukaba ukikijwe n'amatara amurikira uwo muhanda mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo ugeretse, uherereye mu Mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Kinamba, ukaba ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'amagare n'imodoka, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru, ukaba ukikijwe n'ubusitani buteyemo indabo na pasiparomu kandi ukaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda w'igitaka uri muri karitsiye zo guturwamo ukikijwe n'indabo ziteye hamwe na rigoreri ziwufashe ku ruhande, ziwufasha gufata amazi awuturukaho ndetse n'aturuka mu ngo, mu rwego rwo kurinda umuhanda kwangizwa n'umuvumba w'amazi.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo rihuza imihanda ituruka mu byerekezo bitandukanye; uyu muhanda ukaba ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto, imodoka, ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza, hamwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru, hamwe n'amatara awumurikira mu gihe cya n'ijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo rihuza imihanda ituruka mu byerekezo bitandukanye, ikaba igaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo nka moto, imodoka ndetse rikaba rikikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza n'amatara awumurikira mu gihe cya n'ijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo unyurwaho ugeretswe, riherereye Kicukiro santire mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, rikaba rikikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'amatara aba awumurikira mu gihe cya nijoro. Hakaba hagaragaramo imodoka zitandukanye ndetse n'abagenda n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, aho harimo moto zitwara abagenzi ndetse na moto za rifani, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'indangi twa abanyamaguru, ukaba ukikiriye ndetse n'ubusitani hamwe n'amatara abamurikira mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo ugeretse, uherereye Kicukiro mu mujyi wa Kigali, akaba ari umuhanda ukikijwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro, ukaba unyurwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo nka moto, amagare, ndetse n'imodoka.

Isangano ry'umuhanda ririmo icyapa cy'ubururu kigaragaza ko isangano rinyurwamo rizengurutswe, iri sangano rikaba rihuza imihanda ya kaburimbo iva mu byerekezo bitandukanye, ikaba iriho amatara arimurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyurwamo mu byerekezo byombi, imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, imodoka ya polisi ndetse uyu muhanda ukaba ufite sitasiyo ya esansi iruhande rwayo, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo, uhuza imihanda ya kaburimbo riva mu byerekezo bitandukanye, iri sangano rikaba ririmo icyapa kigaragaza ko rinyurwamo rizengurutswe, rikaba rigaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, nka moto, zihetse abagenzi, ndetse n'imodoka z'ubwoko bwose.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo rihuza imihanda ituruka mu byerekezo bitandukanye, ikaba irimo imodoka z'ubwoko butandukanye, rikaba rikikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza cyane butewemo indabo.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi, ugaragarwamo n'ibinyabiziga nk'imodoka y'umukara, ukaba ukikirwa n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru, hamwe n'ubusitani bwiza uyu muhanda kandi bafite n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo uhuza imihanda ituruka mu byerekezo bitandukanye, iri sangano rikaba rikikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru hamwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nimugoroba, rikaba rigaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo w'ikiraro uherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko Kinamba, ukaba unyuranaho umwe hasi undi hejuru, ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza buri bufite agahanda gato kagenewe kugenderwamo n'abanyamaguru.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo, rigaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto, imodoka ndetse n'amagare, rikaba rikikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza, rikaba rifite amatara arimurikira mu gihe cya nijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo rihuza imihanda ya kaburimbo ituruka mu byerekezo bitandukanye, iyi nyurwamo n'amagare, imodoka ndetse na moto kandi ikaba ifite uduhanda twahariwe kugenderwamo n'abanyamaguru.

Isangano ry'umuhanda rihuza imihanda ya kaburimbo ituruka mu byerekezo bitandukanye, ikaba igaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo nka moto ndetse na moto za rifani, iri sangano rikaba rifiteho amatara arimurikira mu gihe cya n'ijoro ndetse rikaba rikikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru.

Imodoka itwara inyama iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, urimo izindi modoka ndetse n'amagare, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse ukaba ufite n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Agahanda kanyurwamo n'abanyamaguru, gakozwe n'amapave, kari mu busitani bwiza, gakikijwe na pasiparama ndetse n'ibiti byiza bibereye ijisho, hamwe n'indabo zigateye iruhande, kakaba gafite n'amatara akamurikira mu masaha ya nijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo uhuza imihanda ituruka mu byerekezo bitandukanye, ukaba uciwemo imirongo igaragaza ahemerewe kwambukirwa n'abanyamaguru, uyu muhanda kandi ukaba ufite ku ruhande uduhanda duto tw'amapave tunyurwamo n'abanyamaguru, hamwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Isangano ry'imihanda riherereye mu mujyi wa Kigali rihuza imihanda ya kaburimbo ituruka mu bice bitandukanye, ikaba igaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka n'amagare, aho iyo mihanda ikikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru hamwe n'ubusitani bwiza ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.